Inyubako imeze neza, iragutse, ifite amashusho agiye atandukanye, n'intebe, ndetse n'ameza bimeze neza, abantu barahasohokera iyo bumva barushye, baje gutembera, nko gufata kamwe, kuganira ndetse n'ibindi.

Inzu yubatse neza, ifite amarangi atandukanye, yubakishije amabuye. Ikindi kandi ni hagari, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Abantu iyo bashaka kwivura umunaniro niho basohokera. Kandi bakaza kuhafatira akantu ko kunywa ndetse no kurya.

Inyubako imeze neza yubatse neza, abantu basohakeramo bagiye kuruhuka bakahafatira icyo kunwa ndetse n'icyo kurya bitandukanye.

Amafunguro ateguye neza, afite ibirungo byose. Umuntu wese agiye ategura amafunguro gutya, byaba ari byiza cyane kuko aryoshye ateye apeti rwose.

Ifi imwe yokeje neza isize ibirungo by'amoko bwose imeze neza iragaragara cyane neza ikindi kandi abantu baza kuyigura kugira ngo bajyigeho.

Ikibuga gikikijwe n'intebe zisa n'umutuku imitaka isa n'umutuku abantu baza kuhafatira icyo banywa ikindi kandi intebe zaho zirashwanyaguje ntabwo ziteguye neza k'umurongo.

Inyubako yubatse neza cyane ku buryo bwaguye, iteretsemo ibikoresho bya kijyambere bigezweho, hacururizwamo inzoga zigiye zitandukanye, ziri mu macupa, harimo n'ibyo kurya biteretse k'utuntu tumeze neza cyane.

Amacupa arimo inzoga zipfundikiye, hariho n'ibirahure ku meza, abantu baza kugura, hakaba n'ubakira akabasukiramo, kugira ngo zibashe kuryoha neza.

Ibisorori birimo ibiryo bigiye bitandukanye biteguranye ubuhanga, ni ibiryo bisa neza bitandukanye biryoshye, abantu baza kubigura, buri wese akiyarurira ibyo yumva ashaka.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bitandukanye harimo: amata, amazi yo kunywa, fanta zo kunywa ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Inzu icururizwagamo ibicuruzwa bitandukanye imbere g'iyo nzu hari amashiga twifashisha mu guteka gatekaga neza cane gahishaga vuba n'ishyiga rya kijyambere.

Amazu yubatse neza yometseho amakaro asa neza. Afite imiryango itandukanye . Icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Ikindi kandi abantu baza guhaha ibicuruzwa bari gucururizamo.

Inzu yubatse neza ariko nta marangi ifite. Ikindi kandi icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Urujya n'uruza rw'abantu baza kugura ibicuruzwa biba biri gucururizwamo harimo imidaho n'ibindi.

Amazu yubatse neza ku buryo bugezweho, asakaje amabati ameze neza, amarangi yako aratandukanye kandi asa neza, amwe asa umukara ayandi umweru, ayandi umutuku. Ikindi kandi acururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'abantu bashaka aho gucumbika baza kuhashakira amacumbi.

Amazu yubatse ku buryo bumeze neza, ikindi kandi igacururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Urujya n'uruza rw'abantu baza kugura abandi bakagurisha kugira ngo bajye kubyifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Inzu yubatse neza icururizwamo ibyo kurya no kunywa bitandukanye ikindi kandi mbere y'iyo nzu hacururizwa imyenda igiye itandukanye.

Inzu yubatse neza, ifite amarangi ameze neza ifite imiryango itandukanye, icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye abantu bifashisha, nk'imiti ivura abarwayi n'ibindi.

Amazu yubatse ku buryo bwiza cyane, asiza amarangi rw'umuhondo hometseho n'amakaro, ikindi kandi afite imiryango itandukanye ikorerwagamo imirimo z'ubucuruzi, abantu baza kugura ibicuruzwa bari gucururizamo.

Inzu gubatse neza yometseho amakaro ameze neza ifite imiryango imeze neza, ikindi kandi icurururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inzu gubatse neza ifite amarangi gatandukanye, ikindi kandi imbere giyo nzu ku muryango hari abantu bari kudoda, bafite imashini. Batanditse ibitenge bifite amabara gatandukanye.

Amazu gubatse neza kandi garagerekeranye. Ikindi kandi gagenewe gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, abantu baza kugura abandi bakabagurisha.

Inzu yubatse neza， isize amarangi amezeze neza，hasi hapavomye neza， ikindi kandi iyi nzu yagenewe gucururizwamo， yegereye umuhanda ucurizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inzu yubatse neza, isize amarangi gatandukanye, ifite imiryango zitandukanye zagenewe gucurizwamo ibicuruzwa bitandukanye, mbere g'iyo nzu haparitse imodoka.

Amazu yubatse neza ku buryo butandukanye, afite n'amarangi atandukanye. Ikindi kandi, acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Abantu baza kuhahahira kuko hacuruzwamo ibicuruzwa abantu bakenera nk'iby'isuku, inkweto abantu bambara, ndetse n'ibindi.

Inyubako zubatse mu buryo bumeze neza kandi ziratandukanye ,zometse amakaro atandukanye ,afite imiryango itandukanye, ikindi kandi bwagenewe gucururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ,imbere yaho hateretse amavaze baterekamo indabo z'umutako.

Amazu yubatse neza asize amarangi atandukanye, afite n'imiryango igiye zitandukanye, asize amarangi asa n'umweru inzugi zifite amarangi asa n'umukara, ikindi kandi acururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inzu gubatse neza yometseho amakaro gameze neza ikindi kandi icurizwagamo ibicuruzwa bitandukanye abantu baza kuhahira.

Amazu yubatse neza afite amarangi y'umweru, afite imiryango igiye itandukanye icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi imbere y'iyo nzu haparitse imodoka zigiye zitandukanye.

Amazu yubatse neza ku buryo bugezweho, asakaje amabati ameze neza, asize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo, ikindi kandi acururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye Kandi abantu bashaka amacumbi, baza kuhashaka amacumbi ndetse n'ibyo kunywa, nabyo barabicuruza.

Inzu yubatse neza yometseho amakaro, ariko irashaje. Ikindi kandi ntago bayikoreraga amasuku kandi icururizwagamo ibintu bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baza guhahira muri iyi nyubako icururizwagamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: umutobe, akabamo amata, akabamo imineke, akabamo n'ibikoresho byifashishwaga mu isuku nk'uburoso bw'amenyo, n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu baza kugura ibikoresho bikoreshwa bibika amazi y'imvura kugira ngo babone ayo bakoresha.

Igikoni kimeze neza cyubatse ku buryo bugezweho, cyometseho amakaro asa n'umweru ikindi kandi gifite isuku, umuntu uhakora aba yahitayeho uko bikwiye cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bazaga guhahira mu nyubako zicururizwagamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byifashishwaga mu guteka, ibindi bikifashishwa mu isuku n'ibindi.

Inzu yubatse neza ku buryo bugezweho, iragerekeranye ifite imiryango igiye itandukanye, icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Amazu yubatse neza asize amarangi atandukanye. Afite amadirishya yubatse neza n'inzugi ndetse imbere yayo hateye ibiti bitanga akayaga kameze neza.

amazu yubatse neza afite amabati ameze neza, ikindi kandi afite imiryango yubatse neza ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi, bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye.

Inzu yubatse neza cyane ku buryo bugezweho, yometseho amakaro asa n'umweru, ikindi kandi bakoreramo umurimo wo kogosha, abantu imisatsi ndetse no kuyitunganya, abantu baza kugira ngo babafashe.

Impeta nyinshi kandi nziza z'icuruzwaga abantu bazaga kuzigura kugira ngo bazambare wenda habaye ubukwe arumurimbo se.

Amazu yubatse neza ku buryo bugezweho, asize amarangi atandukanye amwe ariho amarangi asa n'umuhondo ayandi asa n'ubururu, ikindi kandi afite imiryango igiye itandukanye icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, imbere yaho hari umuntu ufite umutaka wa emutiyene ucuruza amayineti.

Amazu yubatse neza asize amarangi asa n'umuhondo, andi asa n'umukara, ndetse asakaje amabati atukura. Ikindi kandi acururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, abantu bazaga kubigura.

Amagare, ubutambaro, baro ndetse n'ibindi bicuruzwa n'umucuruzi, abaguzi baza kubigura kugira ngo babyifashishe mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ikindi kandi hari n'umuntu ufite umutaka wa MTN ucuruza amayinite.

Ibiduke bitatu bicuruzwa, abantu baza kubigura kuko babikoresha ibintu bitandukanye. Iyo bari gutega amazi, ikindi iyo hari umuntu wakoreshe nk'ikirori arabyifashisha ari gushigishiramo nk'umusururu n'ibindi.

Amazu gubatse neza gasakaye neza hasi gapavomye neza, kandi imijyango yago gagenewe gucururizwagamo.

Amazu yubatse neza afite amarangi atandukanye, afite n'imiryango itandukanye , akorerwamo imirimo y'ubucuruzi , acuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye , abantu baza kuhahahira.

Amazu yubatse neza ku buryo busa neza asize amarangi agiye atandukanye, afite n'imiryango itandukanye ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi iba iri gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura, abandi bari kubibagurisha.

Inzu yubatse neza igaragara neza kandi ifite umuryango gugezweho amabati ameze neza, ikindi kandi icururizwagamo ibyo kujya no kunywa abantu bafite inzara bazaga kuhareba ibyo kujya no kunywa.

Umuryango uriho ibishushanyo bitandukanye bigaragaza ibyo bawucururizamo, harimo ibikoresho bya mudasobwa, ibikoresho abanyeshuri bifashisha ku ishuri, nk'amakaramu, amakayi, amarati ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Amazu yubatse neza ku buryo bugezweho, afite amarangi ameze neza, inzugi zayo nazo zimeze neza, ikindi kandi, acururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Amazu yubatse neza yegereye umuhanda, yometseho amakaro agiye atandukanye ,afite imiryango myinshi, ikindi kandi acururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ,abantu baza kubigura.

Amazu atandukanye, afite amarangi atandukanye, amwe yometseho amakaro. Ikindi kandi imiryango yazo iratandukanye. Icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Urujya n'uruza rw'abantu baza kuhahahira.

Inzu yubatse neza iragerekeranye, yubatse ku buryo bugezweho, ifite amarangi ameze neza, amadirishya yayo ni meza, ifite imiryango igiye itandukanye. Ikorerwamo imirimo; abantu baza kubitsamo amafaranga, abandi bakaza kuyabikuza, ni abishyize hamwe muri make, koperative.

Inzu yubatse neza ifite amarangi asa n'umuhondo, urujya n'uruza rw'abantu baza kubitsamo amafaranga, abandi bakaza kuyabikuza, ibikira abaturage ku buryo bwo kugirango biteze imbere.

Amazu yubatse neza, afite amabati asa neza, akikijwe n'ibiti bitandukanye, abantu baza kuhaka amacumbi, ndetse n'abakeneye kuruhuka barahaza.

Hoteli abantu baza kuhashakira amacumbi yo kubamo cyangwa se bakaza kuhashaka ibyo kurya no kunywa, umuntu wese ushaka kuruhuka neza aza muri Hoteli.

Inzu yubatse neza, isize amarangi y'umweru, ikindi kandi ifite amabati atukura, ikikijwe n'ibiti bisa neza babyitaho babikorera isuku, kuharuhukira biba byiza abantu baza kuhashaka amacumbi , ndetse bakanahasohokera bahafatira ibyo kurya no kunywa.

Amazu yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, asize amarangi asa n'umukara, ikindi kandi akorerwamo imirimo itandukanye, abantu baza kuhashakira amacumbi bagiye mu ngendo zitandukanye ndetse n'ibindi.

Inyubako irimo ibicuruzwa, bicuruzwa , byifashishwa n'abadamu ndetse n'abakobwa aribyo, ibikapu bifite amabara agiye atandukanye ndetse n'ibiciro byabyo biratandukanye. Abaguzi baza kubigura abandi bakabibagurisha.

Uruja n'uruza rw'abantu bazaga guhaha mu isoko ibikoresho bikoreshwa ahantu hatandukanye: kumeza, mugikoni, n'ahandi.

Ibase nini cyane isa n'ubururu, irimo karoti nyinshi, zimeze neza kandi zibyibushye, ikindi kandi karoti ziba mu mafunguro arinda indwara, abantu baza kuyagura, kugirango ngo bayifashishe, mu gutegura amafunguro.

Urujya n'uruza rw'abantu baza kugura ibicuruzwa bitandukanye bifashisha harimo ubuyunguruzo, ga zo gukaraba harimo ibyo kwiyorosa . Ibiziriko byifashishwa nko kuzirika amatungo ndetse n'ibyo kwambara n'ibindi.

Umuntu ucuruje ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibitenge byambarwa hari imashini idoda imyenda, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, abantu baza kudodesha imyenda yabo iyo yacitse.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko guhaha, ibicuruzwa abacuruzi bari gucuruza bitandukanye, biba byavuye mu bihingwa abahinzi baba bahinze, bakabijyana ku isoko harimo: karoti, imiteja, urusenda ndetse n'ibindi.

Uruja n'uruza rw'abantu bahahiraga mu isoko kuko hacururizwagamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'intoryi, inyanya, ibihaza, karoti, ibitunguru n'ibindi.

Amandazi gari kumeza gameze neza cane gararyoshe kuko gahiye gisatuye, abantu baza kugagura kugira ngo bagajyeho kubera ukuntu garyoshe.

Urujya n'uruza rw'abantu, baza ku isoko kugura ibicuruzwa biba biri gucururizwamo bigiye bitandukanye, harimo vinegere, tangawizi, mayoneze, ibitunguru, intoyi ndetse n'ibindi.

Uruja n'uruza rw'abantu baza guhahiraga mu isoko kuko bacururizagamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byifashishwaga nko mu isuku n'ibindi.

Uruja n'uruza rw'abantu baba baturutse mu mpande zitandukanye, baje ku isoko kugura ibicuruzwa bicururizwagamo, biba bitandukanye harimo inkweto imyenda zo kwambara n'ibindi.

Uruja n'uruza rw'abantu baturutse mu mpande zitandukanye. Baje ku isoko kureba ibicuruzwa bicururizwaga mu isoko bigiye bitandukanye, kugira ngo bagure abandi babagurishe.

Amacunga atukuye, ndetse na pome zisa n'icyatsi kibisi. Ni imbuto abantu baza ku isoko kuzigura, abandi bakazicuruza. Ziba mu mbuto abantu bifashisha ziryoha cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu baza guhaha ku isoko ibicuruzwa biba biri gucururizwamo bitandukanye, biva ku bimera baba bihingiye harimo nk'ibishyimbo, ibirayi, ibijumba ,amateke ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu, bazaga mu isoko guhaha imbuto zigiye zitandukanye, ricururizwagamo harimo imineke, otemeloni, amacunga, ibinyomoro ndetse n'ibindi, abantu bifashisha bijanye n'imbuto.

Urujya n'uruza rw'abantu baza guhaha aho bacururiza amatungo magufi yo korora,,,, cyangwa se umuntu ashaka kurya inyama, kuko inyama ziri mu byubaka umubiri.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bari kugura abandi babagurisha ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: inyanya, ibigori, amandazi n'ibindi.

Amacupa arimo amavuta akoreshwa mu buryo butandukanye, harimo avura indwara z'abantu ikindi kandi urujya n'uruza rw'abantu, baza kuyagura kugira ngo bayifashishe.

Isahane iriho amasambusha menshi bigaragara ko ari ago kugurisha. Gakoze neza kandi gararyoha, umuntu wagariye ntabwo yagavaho. Gaba gameze neza cane.

Karoti, ibitunguru, inyanya, puwavuro ndetse na sereri, intoryi, n'ibindi bicururizwaga aha hantu, abantu baza kubigura, abandi bakabibagurisha, hejuru ya byo hari abacuruza amabasi, indobo, teremusi n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu baza ku isoko kugura ibicuruzwa biba biri gucuruzwamo bigiye bitandukanye. Harimo amandazi, keke, buleba, imikati ndetse n'ibindi. Ikindi kandi haba hari n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari gusohoka mu isoko ryubatse neza rya kijyambere ,bagiye guhaha ibicuruzwa bicururizwamo bigiye bitandukanye byo kwifashisha.

Tungurusumu nyinshi zimeze neza cyane, hari n'imyembe, inyanya, amarongi n'ibindi, urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura kugirango babyifashishe, nka tungurusumu ivamo umuti n'ibindi.

Isoko ryubatse neza ku buryo bwa kijyambere. Riragerekeranye, risize amarange ameze neza, ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'ibiduke, ndetse hakabamo n'ibiribwa abantu bakoresha mu gufungura.

Uruja n'uruza rw'abantu bazaga guhahira ibicuruzwa bitandukanye bicururizwaga mu soko, bimwe biba byavuye ku byo baba bahinze bakabijana ku isoko.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye baza mu isoko kugura ibiribwa bikomoka ku bimera, ari byo amacunga, ibinyomoro, imyembe, indimu ndetse n'ibindi.

Uruja n'uruza rw'abantu bazaga mu isoko guhaha amavuta rwo kwisiga kuko amavuta g'amazi gavura amaga ndetse n'imyate mbese gatuma umuntu atereruka.